Inzego z'umutekano zisaka ibisasu zifashishije ubwoko bw'amatungo yitwa imbwa, iba yaratojwe gusaka koko ibyo bisasu , ku buryo itakibura kiramutse gihari.

umunsi mukuru wasojwe cyangwa se ukirimbanije, harimo gushimirwa umuyobozi witwaye neza. Hariho inzego z'umutekano, daso ndetse n'iza gisirikari, ingabo z'u rwanda.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye hamwe bateze amatwi umuyobozi abaha gahunda abashishikariza gahunda ya Leta iriho kujyana nayo.

Akaba ari umuhanda ucomekeranyije n’undi hirya. Ariko akaba urimo kwambukiranwa n’umunyamaguru, abanyamamoto ndetse n’abanyamodoka. Bigaragara ko aho hantu umunyamaguru ari kwambukira ari ahantu abanyamaguru bagenewe kwambuka, ku buryo baba bafite umutekano uhagije.

Ihuriro ry'abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye baturutse hirya no hino, barimo kugana ku ngingo nyamukuru, bakaba bashyitse aho bagomba gutandukanira, ngo buri wese asubire aho yaturutse.

Umusirikare w'Igihugu cy'u Rwanda urinda abaturage, ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Haba mu mipaka, haba mu mashyamba ndetse n'umutekano muri rusange. Ari ahantu hatuje kandi ubona ko ahanze amaso hirya kugira ngo icyabasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda giturutse aho ngaho abashe kukirinda.

Inteko y'abaturage bateraniye hamwe baganira ku ngingo zitandukanye aho uhagarariye urwego rwa polisi yari arimo kubagezaho impanuro z'ibyo bagomba gukurikiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, bicaye hasi. Higanjemo abantu bakuze cyangwa se abakuru. Ubona ko ari igikorwa nyamukuru cyabateranirije aha ngaha.

Inteko y'abaturage yiganje mu kuvugaho umutekano, gusuzuma ibikorwa by'umutekano aho bigeze ndetse bahabwa inyunganizi, abaturage uburyo bafatira hamwe ingamba zo kwicungira umutekano bakaza amarondo, ndetse bubaka igihugu ndetse barinda n'abaturage muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahurijwe hamwe muri sale imwe, harimo ingabo zishinzwe umutekano ,abasirikare, police, abacungagereza daso ndetse n'ubundi buyobozi bw'abaturage bukorera abaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande zigiye zitandukanye, bahuriye hamwe barimo kwigira hamwe ingingo runaka, bari mu nama ahantu muri sale imwe runaka.

Inama yahuje ubuyobozi butandukanye burimo inzego z'umutekano ndetse n'abaturage, kugira ngo bigire hamwe ingingo z'ingenzi zigezweho zihangayikishije umuturage, n'umurongo ngenderwaho.

Urujya n'uruza rw'abantu bahurijwe hamwe, ubona ko hari icyo barimo kuganiraho, kuko harimo ho n'uri gutanga ibitekerezo, kugira ngo babashe kubiganiraho bungurane inama.

Urujya n'uruza rw'abantu batabaye cya se bahetse bajyanye umurwayi kwa muganga, bifashishije ingobyi. Ingobyi ya kera iboshwe mu migano ku buryo itwara uwo murwayi ahantu hatabasha kugera imodoka, niyo yifashishwa mu kugeza umurwayi kwa muganga kandi batamwangirije.

Intore ihamiriza itaraka ikubita ingabo ndetse n'icumu, ubona ko ibyina yishima, irimo kubyina iseka kugira ngo ishimishe abayireba.

Izizwi nk'intore, intore zifite ingabo, ingabo zisize amarangi y'umweru ndetse n'umukara, ubona ko bambaye ibihura, hejuru batendegaje, bagaragaza ko bashoboye kuba bataraka ndetse n'amacumu yabo.

Umukecuru urimo kuboha icyo nakwita ikibo cyangwa se agaseke， akabohesha imigozi. Afite akuma cyangwa se akariga，agenda apfumura kugira ngo anyuzemo umugozi wo gufata ubwatsi aba yatondeye, yicaye ku karago.

Ibikoresho nyarwanda biri ku mikeka hejuru hajishe igicuma, hasi hariho inkongoro zubitseho imitemeri, ubona ko ari ahantu hakorerwa ibihangano byiza kandi bimeze neza nyarwanda.

Urujya n'uruza rw'intore ziri gusangirira hamwe ku nkoko ndetse zifata no ku gacuma, zishimye zishimiye igikorwa zahozemo.

Mu bigaragara hariho igisabo, hakabaho umuntu ubona ko yitandiye kandi yakenyeye imishanana, bivuze ko ari umuhango nyarwanda urimo kujya mbere aha ngaha. Kandi bikagaragazwa n'uko yakenyeye ndetse akaba afite n'igisabo, bigaragara ko bacunda.

Ihuriro rigari ryagutse ry'abakaraza, barimo gukubita ingoma, intore zikaboneraho uko zihamiriza, zifata umurishyo.

Ibikoresho nyarwanda bibohwa n'amaboko y'intoki bikifashishwa mu kubika, mu kuzigama ibintu bigiye bitandukanye harimo imyaka ndetse no gutaka mu mazu.

Kurobanura kugosora ibigori kugira ngo ubashe kujya kubibetesha nta myanda irimo, biba byiza iyo ubigosoye ugosoza intara, intara imeze neza ifite akantu uri bushyiremo kugira ngo ubashe gutoranya neza ukuremo imyanda usigarane ibimeze neza.

Ubu ni ubwato bwa Kinyarwanda bwambukije bwambutsa abantu benshi, nk'uko ubibona ni urujya n'uruza rurimo kwambuka ruva ku nkengero z'uruhande rumwe zijya ku nkengero z'urundi ruhande.

Iduka ricuruza amataburo cyangwa se ibishushanyo bigiye bitandukanye, harimo ibishushanyo by'inyamaswa, harimo ibishushanyo by'abantu runaka. Bivuze ko ari iduka rikora ibihangano gakondo, ibihangano nyarwanda.

Ikusanyirizo cyangwa se inzu ikorerwamo ibihangano by'amaboko harimo: imitako, ibyibo ndetse n'ibikoresho bindi bijyanye n'umuco nyarwanda biboneka mu mabohero.

Icumbi ry'inzuki, inzuki zimwe zikora ubuki, abantu bakunda, buryohera cyane. Ukaba witwa umutiba. Umutiba mu Kinyarwanda cyiza.

Ubworozi bw'inka za kinyarwanda zigira amahembe manini, ubona ko ari inka zifite amahembe manini kandi akaba ari inka zigira amata aryoshye.

Ikirago gikoreshwa mu ngobyi . Ingobyi ya kinyarwanda imwe imodoka ya kinyarwanda ifasha abaturage kugeza umurwayi ku ivuriro kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze mu gihe aho hantu aribuvanwe ,aribunyuzwe ,nta modoka ,nta kinyabiziga na kimwe cyabasha kuhanyura.

Inyambo akaba ar'inka nyarwanda zigira umukamo muke, bazitambiye imitako mu mahembe ndetse no mu ijosi ubona ko zimeze neza.

Iki ni icyansi icyansi gikoreshwa mu gukama, cyangwa se mu kunywesha amata, yaba ari inshushu cyangwa se imvuguto, kiba kibajwe mu giti cyitwa inkongoro.

Igisabo gikoreshwa mu gucunda cyangwa se mu gusobanura amavuta ndetse n'amata, akaba ari igisabo kijishwe cyangwa se kimanitswe hejuru gifashwe n'imigozi.

Ishyo ry'inka ririmo gushoka, aho bayishyiriye amazi cyangwa se umunyu mu kibumbiro, kugira ngo zibashe gushoka inyota itazifata. Ni inka z'inyambo zigira amahembe manini.

Ihuriro ry'intore zahuriye hamwe mu musayuko zirimo gutaraka zishimisha abari aho ngaho, zikubita ibihura ,zifite ingabo ndetse n'amacumu ,kugirango zibashe gutaraka nk'intwari.

Ihuriro ry'ababyinnyi babyina indirimbo gakondo, indirimbo nyarwanda aho intore zikaraza abandiganirizakoresha umuco nyarwanda, ukazana ibindi ndetse n'intara bakaririmba indirimbo gakondo.

Umutiba wagitse mu giti hejuru, akaba ari umutiba w'inzuki ,bigaragara ko usanzwe ukoresha wagitse mu giti cyitwa igiko ,hamwe cyarumye ahandi ni kibisi.

Urujya n'uruza rw'abana bakiri bato, urubyiruko bateraniye hamwe barimo gukina, bakora imyidagaduro, aho barimo gusimbuka no gukina umukino witwa urukiramende. Aho usimbuka ukanyura hejuru y'agati.

Ukwirema k'umwana uri mu nda, utari wirema neza ngo ibice bigaragare neza bihure, ariko akaba ari isura y'umwana uri mu nda ya nyina.

Ibikoresho bya kinyarwanda harimo :ibicuma ,ndetse n'uduseke, n'inkangara, ku buryo bikoreshwa mu muco wa kinyarwanda, uducuma tuzwiho kunyorerwamo inzoga runaka tukaryoshya inzoga cyane ku bantu b'abasaza.

Urujya n'uruza rw'abana batoya ndetse n'abakuru, bicaye hirya no hino kikije uyu musaza, umusaza urimo gucuranga ikizwi nk'iningiri, iningiri ni inanga gakondo icurangwa igacurangwa n'abayizi, kuko idacurangwa n'umuntu ubonetse wese, bayicurangisha agati bakubita ku murya wayo.

Inzu za kinyarwanda zubakishijwe ibyatsi, zikaba zubatse miviringo, zikaba ari inzu nini ifite n'izo mu bikari ebyiri, ku buryo zakwakira n'abandi bashyitsi batari bene urugo.

Ibihangano by'amaboko, ibihangano bikorwa hakoreshejwe intoki badakoresheje inganda. Ni ibihangano nyarwanda ubona ko ari byiza, bitatse neza mu nzu biba bigaragara neza cyane.

Inzu yubatswe miviringo mu muco wa kinyarwanda bayita indaro. Akaba ari indaro, ikaba nk'umurage w'u Rwanda. Ubona ko hariho agatebe ku muryango kakanyarwanda. Iyo uje unaniwe urabanza ugaca akabogi ukicara, bakabona kukwakira.

Umuco nyarwanda ugaragaza ibisika, ibibindi ibicuma ndetse n'ibindi bikoresho by'umuco nyarwanda. ikibindi kiba kirimo ikinyobwa ,hagashirwamo imiheha cyangwa se umuheha ku buryo mushobora kuhahurira muri abantu barenze umwe kandi mwese mugasoma kandi mudasomaniye ku museke umwe.

Intore iri aho ituje, yambaye yikwije yiteguye ko isaha n'isaha yahamagarwa maze igataraka, ndetse igahamiriza ubwo iraba ishimisha abayikurikiye.

Umufuniko ufite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, umupfuniko w'agaseke kifashishwa mu muco nyarwanda, igihangano nyarwanda kibohwa mu migozi.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe mu gikorwa runaka, ubona ko bishimye ko harimo abari mu ruziga hagati yabo, barimo kubyina cyangwa se guhamiriza, kugira ngo babashe gukomeza ibyishimo.

Ubucuranzi cya umucuranzikazi ufite inanga yitwa umuduri, akaba ari inanga iba igizwe n'imirya ndetse akaba ari inanga nyarwanda . Uko bigaragara hagwiriyemo ingoma hariho ingoma nyinshi, bivuze ngo higanje ho ingoma.

Ikiki ni igikoresho nyarwanda, gikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, mu gusekuriramo imbuto zuma zikabeteshwa, amasaka, impungure, soya ndetse n'izindi, ariko akaba ari igikoresho nyarwanda cyitwa isekururu kigira n'umusekuzo wa cyo ku ruhande, ariwo bafataho basekura.

Ubworozi bw'inka buzwi mu bwoko bw'inyambo, inka za kinyarwanda zigira amahembe manini, ariko zikagira umukamo mukeya ugereranije n'iza kizungu.

Ihuriro ry'abantu bakenyeye neza, bambaye neza, basokoresheje ndetse bambaye imishanana, bigaragara ko bari batashye ubukwe cyangwa se mu birori runaka, bishimira igikorwa bari bagiyemo.

Iyi ni inkongoro navuga ko yatewe inzuma. Ikoreshwa mu gukama inka cyangwa se mu kubika amata, cyangwa se mu kuyinywesha amata. Yubitsweho umutemeri w'agaseke.

Igihingwa cy'ibishyimbo byamaze gusarurwa. Byitaweho .Byumye neza, bishyirwa mumifuka ku buryo ubikuramo ugiye kubihimba kugira ngo bibashe kuribwa.

Ibikoresho byo mu rugo uduseke, inkangara, ibirago ndetse n'ibishyimbo birimo kurobanurirwa ku intara. Ibishyimbo bizwi nk'igihingwa cy'ingenzi ku buzima kigira vitamini nziza cyane ku mubiri wa muntu.

Izi ni inka z'inyambo zigaragara ko zari inka z'ibwami kuko urabona n'abambaye ikinyarwanda. Zifite abatahira barenga umwe.

Umuhamirizo w'intore. Intore nyarwanda zibyina zifashishije ingoma zirimo zitaraka, umuco wa kinyarwanda.

Igikoresho gakondo igikoresho nyarwanda gikoreshwa mu guteka ,mu kwarura bumvako umunyu wakoze neza, bagikoresha mu kudaha cyangwa se mu kwarura ibiryo babishyira ku masahani cyangwa se ku nkoko kugira ngo bafungure.

Ihuriro rusange ry'abantu bajya batandukanye, abasirikare ndetse n'abaturage, n'abayobozi bahuriye hamwe mu gikorwa rusange cy'umuganda wo kuzivura cyangwa se gutsibura imiferege itwara amazi, kugira ngo atangize ibikorwaremezo cyangwa se imirima y'abaturage.

Umuhamirizo w'intore zishyize hamwe. Umuhamirizo nyarwanda, barimo bashayaya, babyina imbyino za gakondo, nta bihura biteze, ubona ko bakenyeye imishanana gusa.

Urujya n'uruza rw'abantu bazamuye amaboko, bigaragara ko bishimiye igikorwa cyabahuje. Bazamuye amaboko ndetse banamwenyura baseka, bashimira abarimo kubagezaho imyidagaduro yo barimo.

Igikoresho cy'amashanyarazi gikoreshwa iyo umuntu agiye gushyiramo umuriro muri kashi pawa iyo uwo yari afitemo washize iyo amaze kugura awandikamo akemeza ubundi bwo agakomeza agacana umuriro ntakibazo.

Igikoresho cyifashishwa mu gukanika, ndetse no gukata haba ibyuma, cyifashishwa cyane cyane n'abakanishi, mu guhuza insingato batonora, kugira ngo amashanyarazi ataza kubafata, kandi by'umwihariko kigakoreshwa mu gukata utundi dutsinga, dushobora kuba wakifashisha ugenda uhuzahuza.

Igikoresho cya eregitoronike, kizwi ku bwoko bwo gukupa, terebuteri, gikoreshwa mu gukupa amashanyarazi, amatara, cyangwa se kuyakupura.

Ihuriro ry'amafizibule akupa, akukura umuriro mu nyubako nini kugirango hifashishwe umuriro w'amashanyarazi.

Iki ni igipangu kizitiye neza ubona ko mo imbere hakorerwa igikorwa remezo kandi kimeze neza, utaragera ku gipangu wambuka rigori y'amabuye asashe neza ndetse n'indabyo zikomeje gufata icyo gipangu kugira ngo gitangirika.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe, bagahurira imbere y'ingoro cyangwa seshya imbere y'ikiliziya, ubona ko bahujwe n'igikorwa cyo kuza gusenga.

Intebe zikozwe neza, kandi zira ahantu heza, bigaragara ko zicarwaho n'abantu baje gusaba iyo serivisi. Serivisi bajya gusaba niho bicara, mu gihe batarayihabwa.

Ikigo cyubatswe neza inyubako imeze neza cyane ubona ko yubatse ku buso bunini. Hagaragaraho igiti cy'avoka cyera imbuto z'avoka. Hariho ndetse n'agacaca keza ku buryo ukicayeho yumva nta kibazo afite.

Amazu yubatse neza, yubatse ku buryo bunoze, afite amabati y'umutuku, amarangi y'umweru, ndetse yubakishijwe n'amatafari, ubona ko hadekoye neza ko har'umutekano kandi hatuje.

Imihanda urusobe rw'imihanda myinshi iri kumwe n'urusengero, cyangwa se aho abakiririsitu bahurira, kugira ngo basenge bahimbaze, ndetse banasabe nyagasani imbabazi ku byaha bagize bihane.

Inyubako imeze neza, etaje imeze neza ,yubatse neza kandi ikoze ,ikaba ari inyubako ya leta ,kuko ari ibiro bihurirwamo n'abayobozi benshi, benshi bagiye batandukanye bakora serivisi zitandukanye, kugira ngo umuturage waje ubagana ahabwe serivisi.

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye hamwe mu rusengero baramya, bahimbaza nyagasani, ubona ko batuje.

Inyubako ya etaje itari yuzura itarakoreshwa, cyangwa se batarataha, urabona ko ari inyubako nimara kuzura izaba ari inyubako imeze neza, kandi nziza ikomeye ko yubatswe neza.

Icyumba gikorerwamo kigirwamo ikoranabuhanga rizwi ku rwego kompiyuta, igeramo muri laboratware, riba rifite amategeko yaryo kudakorakozwa cyangwa se ngo wangirize ibyo usanze.

Ikigo kigisha amasomo agiye atandukanye, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Musanze, ubona ko ari ikigo gifite ubusitani bwiza, gifite jaride nziza harimo imikindo, harimo agacaca keza ko wababasha kwiramburaho mu gihe urimo kuruhuka.

Bigaragara ko aha ngaha ari aho iteraniro ry'abantu benshi, ihuriro ry'abantu benshi rihurira ,rigiye gusingiza Imana ,cyangwa se rigiye gusenga Imana ,hariho urukarabiro nk'ibisanzwe mu rwego rwo kwirinda kovide, ndetse bikagaragara ko aha ngaha hakora kandi hakomeje kwitabwaho na ba nyiraho kugira ngo hakomeze kugira isuku.

Inyubako ziri ku buso bunini cyane, ahantu hanini cyane hatuje, ubona ko ari inyubako zubatswe kandi zikomeye. Bigaragara ko hariho n'agasoko gashobora kuba kakwifashishwa n'abaturage, mu kuhahurira bakemurirana ibibazo by'ibyo bakeneye.

Ugukorwa k'umuhanda mushyashya, umuhanda mushya ubona ko imodoka zabugenewe zirimo gutsindagira, izindi harimo zasanze imashini, zihinga zose zirahari, harimo gukorwa umuhanda mushya ndetse unatunganywa neza.

Ikigo cy'amashuri kizitiriye neza, cyubatswe neza kiri ahantu hatuje ku buryo ucyigamo aba nta rusaku rw'ibinyabiziga yumva kuko cyitaruye umuhanda.

Inzu y'urukiko ikemurirwamo ibibazo by'abaturage, ikabasha kubunga aho biri ngombwa, igahana uwakosheje ndetse uwakosherejwe na we agahabwa inyishu binyuze mu muco uboneye.

Akazu kubatse kitaruye izindi, kandi kakaba kubakiye gafite inkingi z’amatibe y’ibyuma, ndetse hasakajwe amabati y’umutuku. Ubona ko mu mpande hari ibindi bintu bihari, gashobora kuba gakoreshwa mu kugama mo izuba cyangwa se imvura.

Ahantu ahantu hakorerwa ubworozi hasizwe kugira ngo habe ikibuga cyiza ,ndetse ubonako hirya hariho icyo nakwita nka tiribine ku buryo habasha kwakira abantu benshi cyane, ku buryo babasha kureberamo ibintu bigiye bitandukanye, kureberamo ibirori bigiye bitandukanye.

Ubutekero bugezweho, ubutekero bumeze neza, ubutekero rw'umudugudu, bwakagari, cyangwa se bwo abanyabuzima baza gutorezamo ababyeyi guteka indyo yuzuye.

Iyi ni inyubako yubatse neza inyubako imeze neza ifite urukarabiro, ifite imbuga y'amapave bigaragarako ari ikigo nderabuzima. Ikigo nderabuzima gifasha abatuye ako gace cyangwa se abaturiye iri vuriro, kuhafatira serivisi z'ibanze zijyanye n'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe abaturage basanzwe ndetse n'abanyeshuri basa bo mu bigo runaka, bagiye bahurira hamwe kugira ngo babashe gukurikirana ku muronko neza ,kugira ngo batambutse ibibazo byabo ndetse binakemurwe n'abayobozi babasuye.

Urujya n'uruza rw'abaturage, bambaye agapfukamunwa bigaragara ko hari ubwirinzi, bwo kwirinda icyorezo. Imbere yabo hakaba hari mikoro, ariyo mpamvu bashobora kuba batondetse, kugira ngo babashe kumvikanisha ibibazo byabo bafite, babitura umuyobozi kugira ngo abafashe kubikemura.

Ihuriro ry'abantu bahuriye hamwe bateze ubabwira amatwi ubona ko bari mu gikorwa cyo kuba batega amatwi ariko bababaye cyane ku buryo utamenya ngo habaye iki, niba ari inkuru ibabajerimo kubabwira rwose simbizi.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye hamwe, babaza ibibazo ubuyobozi bwabasuye, kugira ngo bubafashe kubikemura. Aho higanjemo abantu bakuru kuko nta bana barimo.

Urujya n'uruza eh rw'abantu bateraniye hamwe, bagira ngo batange impano zigiye zitandukanye, higanjemo ibihangano byabo

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu cyumba kimwe, bambaye iniforume imwe, cyangwa se impuzankano imwe kugira ngo batandukane n' abandi bantu, bigaragaza ko hari amabwiriza barimo gufata kugirango ngo bayakurikize.

Gare y'imodoka yiganjemo imodoka nini zitwa Ritco, imodoka zitwara abagenzi hirya no hino zimwe zambukiranya n'imipaka.

Abanyonzi b'amagare nyarwanda, barimo bahagaze hamwe barimo gufata amafoto, kandi ubona ko ari aba sportif mu byo bakora, kuko bahawe amagare asa, kandi bigaragara ko ari ibihembo, bagiye bahabwa ubwabo.

Urujya n'uruza rw'abaturage benshi bikoreye imizigo bigaragara ko aho bavuye nta mahoro ahari. Bigaragara ko bimutse, ko hari icyo babuze. Ikigaragara cyo habuze amahoro, kuko bahambiriye ibifurumba byinshi .

Ubwato bwambukiranya ikivu cyangwa se amazi menshi ateraniye hamwe. Hambutswa abantu bagiye batandukanye, hirya bava hamwe bajya ahandi.

Ikinyabiziga cyambukiranya imipaka kikaba ari ikinyabiziga gitwara umubare w'abantu benshi, benshi cyane. Aho kibamo televiziyo kikabamo intebe zimeze neza, ku buryo umuntu wicaye ndetse agenda ameze neza kandi kigatanga serivisi nziza.

Ubwato bwa kinyarwanda butwara bwambutsa abantu bubavana ku ruhande rumwe rubajyana ku rundi banyuze mu mazi menshi kandi ntibarohame.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi, ibakura hamwe ibashyitsa ahandi ku buryo bworoshye kandi binoze, ku buryo abagenzi bahabwa serivisi nziza inogeye buri umwe wese.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abagenzi babavana hamwe babegeza ahandi hifashishijwe amagare atanywa esanse ahubwo apombwa umupine imyuka mu mipine yayo.

Bigaragare ko aha ngaha ari mu rugo. Kuko hariho agatebe, hariho moto bigaragara ko nyiri uru rugo atunze moto, cyangwa se afite moto yo mu bwoko bwa Bogisele nshyashya, irimo kumwinjiriza cyangwa se guhahira umuryango.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe baganira ku kintu runaka bigaragara ko bagisoje ndetse bishimiye imyanzuro n'umurongo bagihaye. Ubona ko ari abantu bameze neza b'abakire bafite amafaranga.

Ikinyabiziga cyitwa igare gitwara abantu, uko bigaragara hariho intebe aho bicara ba mutwaye.

Imodoka nini zo mu bwoko bwa kowasiteri zifashishwa mu gucyura abanyeshuri zibavana ku bigo zibajyana iwabo ku macumbi.

Urujya n'uruza rw'abaturage bateraniye hamwe muri gare, ubona ko hari icyo biteze kuba bakora cyangwa se biteze kuba bajya umugambi wo kujya ahantu hamwe bava ahandi, ikigaragara ni uko muri iyi gare hariho n'abakora ibikorwa by'ikoranabuhanga bya eyateri.

Imodoka ivana abagenzi ahantu ibajyana ahandi ku buryo buboroheye ikoresheje umuhanda nyabagendwa

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye muri gare barimo gutega imodoka bava, bajya ahantu hagiye hatandukanye.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'amagare atwarwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo z'amaguru, ku buryo atabasha kunyongesha amaguru, ahubwo bakamukorera buryo ki yanyongesha amaboko.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi, imodoka itwara abagenzi aho yari iri mu muhanda, ivuye hamwe yerekeza ahandi, igenda ihagarara ishakisha abagenzi ndetse yubahiriza amategeko y'umuhanda, nka zebura korosingi.

Urujya n'uruza rw'amamodoka yahuriye hamwe muri gare imwe runaka kugirango abashe gufasha abagenzi kugera aho bagiye cyangwa se berekeje higanjemo amamodoka ya kwasiteri.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko ari muri gare, aho barimo kuva hamwe berekera ahandi, ndetse harimo n'ibinyabiziga by'amamodoka byiganjemo ibinyabiziga bitwara abantu.

Ikinyabiziga giparitse mu kayira k'abanyamaguru, kizwi ku izina rya moto, urabona ko atari kimwe ahubwo hari n'ikindi giparitse hirya yacyo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye hamwe, barimo gushaka ibinyabiziga bibageza ahantu hagiye hatandukanye, higanjemo amakwasiteri.

Imodoka nini zitwara imizigo zitwara amakontineri, zambukiranya urugendo rurerure ziva hamwe zerekera ahandi. Urabona ko ari imodoka z'imizigo.

Ubu ni ubwogero bugezweho bwa kizungu buzwi ku izina rya pisine, bukaba bugirwa n'abantu b'abakire cyangwa se amahoteli , kugira ngo abashyitsi bajye bajyamo koga.

Abakinnyi bari mu myidagaduro siporo ubonako buri wese arimo gukora siporo ashoboye, iri ku rwego rwe, ariko bambaye impuzankano mu mapantaro n'amasengeri, ndetse n'imipira by'imyeru.

Urujya n'uruza rw'abantu bajya batandukanye baturutse impande zigiye zitandukanye. Bari muri siporo ngororamubiri, aho barimo kuva mu gace kamwe berekera ahandi, buri umwe akora siporo yo kwiruka uko abishoboye.

Umukinnyi wishimiye ko akina, ubona ko yahawe n'igihembo k'ibyo akora, kuko abikora abikunze, kandi akabasha kugera ku nsinzi yabyo, akaba ari umukinnyi nyarwanda, nk'uko yambaye ikirango k'igihugu cy'u Rwanda.

Gutanga igihembo cy'umuyonzi w'amagare watsinzwe wahize abandi, akabihererwa igihembo kimufasha gukomeza kugira umwete mu kazi akora.

Uguhatana kw'abakinnyi bagamije gutsinda. Buri umwe afite ishyaka ryo gutsinda n'undi afite ishyaka ryo gutsinda barwanira intsinzi mu mukino barimo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, bari muri siporo, ubona ko bafite imbaraga, bamaze kumenyera icyo barimo barakora, barimo gufashanya ku buryo barimo kugendera umujyo umwe.

Umunyegare urimo gutwara arimo kwikoresha siporo wenyine, ubona ko ari wenyine mu byo akora. Bivuze ko arimo gukora siporo wenyine, nta bandi bantu ahanganye nabo arimo gukora siporo ngororamubiri.

Abakinnyi bitwaye neza bari ku murongo umwe, bambaye impuzankano ibaranga, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, ko ubona ko ari jenda kandi bimeze neza, bose bishimiye ibyo bakora.

Ihuriro ry'abakinnyi bakina mu kipe imwe bambara iniefomo imwe kugira ngo bahuze impuzankano bataza kuyoberana bakitiranya abo badafatanije bakabasha gutsindwa.

Abanyonzi b'amagare bari mu myitozo, ubona ko bafite kompetishoni cyane yo kugera iyo bagiye basiganwe, kugira ngo hagaragare uwabaye uwa mbere, ndetse n'uwatsinzwe.

Umukinnyi witeguye uri mu myitozo, urimo gukina yishimye aseka, yishimira icyo akora kuko akina handi bolo, nk'uko bigaragara ku mupira afite.

Umwitozo ngororamubiri siporo ikorwa n'abasiporutifu kugira ngo bakomeze basigasire ubuzima bwabo kandi babutwaze neza birinda indwara bananura imitsi.

Ihuriro ry'abakinnyi bihurije hamwe, bakina umukino w'amaboko, uzwi ku izina rya voreboro, bafata positeri zo kuba barivura mu kindi kibuga.

Abakinnyi bateraniye muri sitade, barimo gukina umukino wa voreboro, bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye umuhondo hejuru, hasi ubururu, abandi bakambara ubururu hasi, abandi bakambara icyatsi hejuru.

Ahantu heza hatuje hakikijwe n'ibiti kandi hazitiriye, e bigaragara ko hari umutuzo cyane kuko hari na pisine yo kogamo ku bantu bifite.

Imyidagaduro y'urubyiruko, abana bambaye impuzankano ubona ko ari amakipe abiri ahanganye, kandi koko arimo gukorera intego y'icyo biyemeje, barimo gukina umupira wa hendiboro umupira ukinishwa intoki.

Abakinnyi bari mu mukino, barimo gukina umukino, bari kugaragaza umuhati wo gukora cyane, ndetse no gukoresha umubiri, bagaragaza impano bafite cyangwa se bavukanye , batojwe ku buryo bigaragara ,ndetse bikanashimisha abarimo kubareba.

Abakinnyi bahagaze bitegura kujya gutangira umukino wabo, guhatana na bagenzi babo, bafite ishaka nubutwari mu byo bakora.

Imyidagaduro y'abakinnyi bahuriye hamwe mu kibuga kimwe kimeze neza, ubona ko ari ikibuga gikomeye kandi kiri ahantu hisagaguye, bafite n'abafana barimo kubafana ubwo barimo gukina basiketi.

Abakinnyi bari mu myidagaduro bakina hendibolo, ubona ko bafite ishyaka n'urukundo rw'umukino, barimo gukina ndetse banagorora imitsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe bareba amakipe abandi bakina umupira, bakina volebolo umupira wamaboko, ubona ko ari umukino mwiza.

Abakinnyi bambaye impuzankano imwe haba ku makabutura n'imipira, ubona ko hirya hicaye abayobozi bicaye mu myanya y'icyubahiro, kandi barimo gusenga kugira ngo bumvikane ku kintu runaka, Imana ibafashe guhuriza hamwe.

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gushima abitwaye neza mu nshingano bari bashinzwe, bahabwa ibihembo harimo igikombe nyamukuru.

Abakinnyi bari mu kibuga bategereje kugira ngo bajye muri mita ya kabiri, ubona ko bari bananiwe ariko bakaba babahaye akaruhuko, ko kugira ngo bongere bisubize imbaraga noneho bazongere bakinane umurava.

Abakinnyi bari mu mukino ,barimo gukina umupira wa volebolo, ubona ko hirya hari abafana bakurikiye Umukino ugeze aho urimbanije, harimo gutsindana ibitego, barimo gusimbuka cyane kugira ngo babashe kurenza umupira fire.

Imyidagaduro, imyidagaduro y'urubyiruko ruzwiho gukorwa n'abitwa abakorobase. Barimo kurenga icyuma cyangwa se itiyo runaka, kugira ngo bagaragaze ko bagororotse.

Abakinnyi bari mu mukino wo kwidagadura, barimo gukora siporo ubona ko babicyambukiwe, nifuza kugira ngo bahatane batsinde.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye hamwe barimo gukora siporo zitandukanye, siporo ngororamubiri ndetse yiganjemo izo gutwara amagare, kuko ubona ko bambaye nk'abantu batwara amagare.

Abanyonzi b'amagare bari mu myitozo. Bigaragara ko nta kompetisiyo bariho kuko ubona ko ntagihunga ,nta muvuduko . Ubona ko ari abantu bambaye elemensi cyangwa se ingofero zabugenewe, inkweto za siporo, amasogisi ndetse n'amagare ubona ko bafiteumujyo umwe wo kuba bakora icyo biyemeje.

Rigori iyobora amazi cyangwa se ifasha gusigasira umuhanda kugira ngo udatwarwa n'amazi. Akaba ari inzira y'amazi anyuramo ntasandagurike mu muhanda, ku buryo yakwangiza igikorwa remezo.

Inzira nyabagendwa inyurwamo n'abantu benshi kandi ubona ko yegereye igipangu cyangwa se urukuta rwubatswe kugira ngo rurinde ibyo hirya. Ni igipangu kimeze neza kiri kuri aka kayira nyabagendwa.

Urujya n'uruza abantu barenze umwe bahuriye hamwe kugira ngo babashe gukoresha amagare, ikigaragara bisa nk'aho yacitse kuko ahangaha nk'uko bigaragara harasudirirwa ntambago y'umuhanda, hirya ubona ko hariho inzu z'ubucuruzi ko hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga y'amapavi.

Inzira nyabagendwa. Inzira ikoreshwa wambukiranya uva hamwe, uva mu gace kamwe werekera mu kandi. Inzira ihuza uduce tubiri tugiye dutandukanye abaturage bakoresha basurana, bagendererana ndetse bahahirana muri serivise zose.

Nk'ubusanzwe uyu ni umuhanda w'amapave, amapave azwi ku izina ry'ibikoresho bikoreshwa mu kubaka umuhanda, hadakoreshejwe kaburimbo cyangwa se amabuye cyangwa se ibitaka, akaba ari umuhanda bigaragara ko ari uw'abanyamaguru bawukoresha.